Laboratware harimo umugabo, habamo umugezi, udukombe n'ikaramu, laboratwari iberamo tesite z'ibyo abanyeshuri biga.

Ishuri ritarimo abanyeshuri, harimo intebe za pipitire, hakabamo n'ikibaho, iri shuri rikorotiye neza, kandi hasi harimo n'isima, ryubakishijwe amatafari ahiye.

Ikigo k'ishuri cyubatse neza, gifite jaride imeze neza, kikagira inzira, abanyeshuri banyuramo bagiye mu ishuri. Hirya hari abanyeshuri bagiye kwinjira mu ishuri.

Ishuri ririmo intebe, ku gikuta hakaba kibaho gishushanyijeho inkweto, ikabutura, ipantaro, umupira, intoki, ibirenge, ijipo, umupira, ikanzu, pense, toronovise, ingofero n'umuntu.

Abagabo bane bahagaze imbere y' ishuri, umwe muri bo aragaragaza ko yambaye iniforume ya mwarimu, bose bambaye inkweto z' umukara, kandi bafashe positeri yo gufata mu mifuka usibye umwe, bose bameze neza.

Ishuri rikikijwe n'ibigega bibiri, imbere yaho hari umuhanda wa kaburimbo. Kuri iryo shuri hateye indabo, hakaba n'ibiti bihakikije, inyuma hakaba hari ikirere gisa neza.

Amahame intore igenderaho, intore ntiganya, ntiyoba no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira, umurinzi w'ibyagezweho ntawabisenya ireba, sinanjye binyobere nkore neza bandebereho, ntigambanira indi kirazira gutatira igihango, ikemura ibibazo byayo itabyimurira ku bandi, ntivunda ntisahinda n'ijambo ryayo.

Abanyeshuri bari imbere y'ikigo. Bafite igishushanyo kiriho indabo n'ikinyugunyugu. Bambaye iniforume y'ubururu. Inyuma yabo hari ikigega gihari.

Isomero ririmo intebe, ameza, ibitabo byo gusoma niho bigira gusoma neza. Hameze neza hasa neza.

Abanyeshuri bari kwereka mwarimu wabo ibyo banditse, barishimye kandi mwarimu wabo ari kugenda areba ibyo banditse. Bambaye iniforome, hari abakuru n'abatoyi.

Kamera yesitaye mu nzu. Hari umugabo urimo gukoresha imwe murizo, hirya hari ibyuma yesitaye mu nzu kuri za kamera ,arimo kugenda areba anafotora.

Abanyeshuri bari muri laboratware, bagiye gukora ikizamini cya pulatike , bafite ibikoresho byose byo gukora tesite y'ikizamini bahawe, hariho umubirikira, hariho udutibe n'udukombe.

Abagabo babiri bari kwesitara igikoresho cya elegitirisite bambaye ingofero z'umuhondo n'amasarubeti y'umweru. Bafite turonovisi barimo kugenda bafungisha igikoresho, icyo gikoresho bari kugenda binjizamo insinga.

Abanyeshuri bari muri raboratware. Barimo kurebera hamwe ibyo bize uko bikorwa. Bambaye iniforume, Bambaye n'uturindantoki. Barishimye mu isomo rya bo. Inyuma ya bo ku bikuta by'inzu, hari ibishushanyo.

Ishuri ry'incuke harimo intebe abana bicaraho n' ameza bandikiraho. Igikuta cy'inzu hariho ikibaho kiriho imibare, kuva kuri rimwe kugera kuri makumyabiri n'umunani.

Abanyeshuri babiri bari mu ishuri bafite n'imashini barimo kwigiraho , bambaye iniforume y'umweru n'umukara , umukobwa yiga asutse, umuhungu aba afite agasatsi kari natirere , bose bahugiye ku masomo yabo ari muri mashine bari kwigiraho.

Abanyeshuri biga ubukanishi, barimo gukora moteri. Bafite turunovise. Mwarimu ari impande yabo, abaha amanota y' ibyo bari gukora.

Abanyeshuri b'abasiramu, bari mu ishuri na mwarimu uri kubigisha, afite ibitabo imbere yabo, barimo kwitegereza mwarimu bumva ibyo ababwira, bimeze neza kandi bose bakurikiye mwarimu wabo.

Abanyeshuri babiri na mwarimu, bari mu ishuri bari kwigira kuri mashini. Mwarimu ari kwereka umunyeshuri aho ari bukande akareba ibyo bagiye kwiga.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bicaye ku ntebe ya pipitire, bambaye iniforume y'umweru n'igitaka hasi, bafite boroshire bari kugenda basoma ibibazo bahawe.

Abanyeshuri biga guteka hamwe bari gukata ibitunguru kandi bagakata ibirayi, bagakata puwavuro, bose bari mu ishuri aho bigira guteka.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bose bafite imashini ziteretse ku meza. Buri wese akoze ku meza, afite intumbero yo kureba ibyo bize mu mashini. Bishimiye amasomo yabo barimo kwiga bakoresheje ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bambaye iniforume y' ubururu, mwarimu ari mu ishuri, ari kubereka ibyo bakora, hari n' undi mugabo uhagaze inyuma abitegereza, afite ibikoresho byo gukoresha mu bukanishi, harimo turunovise, ipensi n' utundi dukoresho dutandukanye.

Abanyeshuri bari mu ishuri, biga mekanike. Ishuri ririmo ameza n'ibikoresho abanyeshuri bifashisha, mu masomo yabo.

Umugabo w'umwubatsi ari kubakisha amatafari ahiye, afite umwiko mu ntoki yambaye ingofero y'umuhondo, isarubeti y'ubururu, inkweto z'umukara.

Abanyeshuri bari mu ishuri bari kwerekana ibyo bashushanyije, umwe yashushanyije umugabo ufite imbunda, undi yashushanyije inzu ya etage.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bambaye impuzankano y'abanyeshuri. Umunyeshuri umwe ari kwereka bagenzi be ibyo biga, akoresheje paratike n'igikoresho cyabugenewe cy'ibyo biga.

Umunyeshuri w'umukobwa ari mu ishuri, inyuma ye hari undi munyeshuri, harimo imashini muri iri shuri arimo kwiga. Afite urupapuro imbere ye, ari kureba muri mashine ibyo yiga.

Ikigo cy'ishuri kiriho aho abanyeshuri bakinira, aho barira umunyenga, aho bidagadurira cyubatswe neza. Gifite ibiti imbere aho bakinira gifite etaje.

Umuganga uri muri laboratwari arimo kureba ibizamini abarwayi batanze, imbere ye hari uducupa batangiramo ibizamini, hirya hari abandi baganga nabo bari gukora ibindi bizamini, bose bakaba bari muri laboratware imwe.

Ishuri ririmo intebe nziza z'isheze, harimo ameza, hakaba imbere ikibaho n'ameza, ya mwarimu n'intebe, hirya ku ruhande hari umugabo urimo afashe impapuro arimo kureba hasi.

Abanyeshuri bari kuri rasamburoma bose bari gucurira. Bambaye iniforume hejuru ubururu bw'umupira, ishati y'umweru, ijipo n'ikabutura by'ubururu. Bambaye inkweto zifunze n'amasogi. Inyuma yabo hari amashuri ya etaje.

Umugabo arimo kubaza, afite urubaho ari gukoresha iranda. Yambaye isarubeti y'ubururu, ingofero y'umutuku.

Abanyeshuri bari muri gurupe, bari gukora umukoro bahawe, bose bari butanga ibitekerezo bunganirana bambaye iniforume ,kandi bari kumwe na mwarimu, ari kubafasha gukora umukoro we.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bari kwigira ku mashini. iruhande rw'imashini hari amacupa y'amazi. Abanyeshuri bari kugenda bareba ibyo mwarimu ari kubereka mu mashini. Bambaye udupfukamunwa na iniforume.

Abanyeshuri bari mu ishuri, barimo gukanika ibikoresho biga mekanike, bakaba hari icyuma barimo gukora, inyuma yabo hari icyuma cyubatseyo hakaba inyuma ikibaho.

Abanyeshuri bari mu ishuri na mwarimu ari ku kibaho, ari kubereka ibyo bareba mu mashini, bamwe bafite imashini nibo bari kwandika, bambaye iniforume bari mu ishuri risa neza.

Abanyeshuri biga ubusuderi, bari gusudira urugi, bafite igikoresho gisudira urugi, abandi bari inyuma barimo gukora indi mirimo, mwarimu ari mu kabati kureba ibikoresho.